Abana bageze mu kigero cy'imyaka ibiri n'itatu, bagomba kujyanwa mu irerero kubera ko ariho bakura umusingi w'ubumenyi buzabafasha mu buzima bwabo bw'amashuri ndetse n'imibanire myiza hagati yabo n'abandi.

Abana batoya bari mu kigero cy'imyaka ibiri, bagomba kujyanwa mu irerero, kugira ngo bigishwe indangagaciro zikwiye Umunyarwanda, bakangure ubwenge bwabo mu bijyanye n'ubumenyi, kugira ngo bazatangire amashuri abanza ari intyoza, kandi bazabashe kubana n'abandi neza mu gihe kizaza.

Abana bato bose yaba abakobwa ndetse n'abahungu bagejeje mu kigero k'imyaka ibiri, ni ngombwa ko tubajyana mu irerero kubera ko ni ho bakura ubumenyi bw'ibanze bakeneye, bubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, yaba ubuzima bw'ishuri ndetse n'ubuzima busanzwe mu mibanire myiza y'abantu.

Igihe twigisha abana bato ndetse n'abakuze, ni ngombwa kwifashisha imfashanyigisho zikoze mu bishushanyo cyangwa se ubundi bwoko bw'imfashanyigisho, kubera ko ni zo zikangura ubwonko bw'umwana akabasha kwiga neza ibintu yumva, bityo ibyo yiga akabifata kandi bikazamugirira akamaro mu gihe kizaza.

Ni ngombwa ko abanyeshuri bagejeje igihe cyo kujya ku ishuri bajyanwayo, by'umwihariko abari mu kigero cyo kujyanwa mu mashuri y'incuke, kubera ko aha niho umwana akura umusingi w'ubumenyi uzamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi bw'ishuri ndetse n'imibanire myiza n'abandi.

Buriya isuku ni isoko y'ubuzima, ni ngombwa gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kugira ngo twirinde umwanda bityo tugire ubuzima bwiza buzira umuze. Abakuru n'abato twese tugomba gukaraba intoki kenshi, kugira ngo turwanye indwara zirimo iz'umwanda.

Kugira ngo uburezi bufite ireme bugerweho, ni ngombwa ko tuba dufite ibikoresho by'ibanze umunyeshuri akeneye, nk'intebe zo kwicaraho, ibikoresho by'ishuri bitandukanye, nk'amakaye, amakaramu ariko by'umwihariko ibitabo byo gusomeramo.

Ni ngombwa ko buri cyumba cy'ishuri kigomba kuba gifite imfashanyigisho, izo mfashanyigisho zikaba zigizwe n'ibishushanyo, kubera ko aribyo bituma umwana yumva neza ibyo yiga, akabyumvisha ubwenge bwe, bityo akabasha gukurikirana amasomo uko bikwiye.

Usibye indimi zitandukanye twiga mu buzima bwacu bwa buri munsi ku ishuri nk'Igifaransa, Icyongereza, Igiswayire n'Igishinwa dukwiye kwiga n'ururimi rw'amarenga, kubera ko ni ururimi narwo dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imfashanyigisho ni ikintu gihambaye ku buzima bw'umunyeshuri, by'umwihariko wiga mu mashuri abanza kubera ko iyo umweretse igishushanyo bifungura ubwenge bwe bityo akabasha kumva neza ibyo umwigisha, ni ngombwa rero kwibuka buri gihe gukoresha imfashanyigisho kugira ngo ibyo twigisha bigerweho.

Iyo abanyeshuri bafite ibikoresho bihagije nk'ibitabo byinshi bashobora gukuramo ubumenyi butandukanye, birabafasha mu myigire yabo kubera ko bavoma ubumenyi mu bitabo biba byanditswe n'abanditsi batandukanye b'impuguke bityo bagahora bijijura kandi bakora ubushakashatsi ku byo biga.

Ni ngombwa ko buri cyumba cy'ishuri kigomba kugira ingengabihe y'amasomo, ibi bigafasha umwarimu ndetse n'umunyeshuri gutanga amasomo neza. Ariko kandi bifasha umunyeshuri kugira gahunda mu buzima bwe bwa buri munsi, akamenya icyo agomba gukora nonaha, icyo agomba gukora mu kanya kari buze ndetse n'icyo azakora ejo.

Ni ngombwa ko abanyeshuri cyane cyane mu mashuri abanza, bagomba gukurana umuco wo gukorera mu matsinda, bakungurana ibitekerezo umwe akiga kubaha igitekerezo cya mugenzi we, ibi birabafasha cyane cyane mu muryango mugari bagashishikarira kumva ibitekerezo by'abandi nubwo baba badahuje ibitekerezo.

Uburenganzira bwo gukina ni uburenganzira bwihariye bugomba guhabwa abana bose tutarobanuye cyane cyane ku ishuri, aho umwana agomba guhabwa iby'ibanze kugira ngo abashe gukina bityo bimufasha kumva yaruhutse mu mutwe yumve n'amasomo bamwigisha.

Ibyapa mu muhanda ni ingenzi cyane kubera ko bituyobora, bikadufasha kumenya ahantu runaka ndetse na serivise batanga, ni ngombwa rero ko tugira ibyapa ku mihanda kugira ngo bizajye biyobora abantu aho dukorera ndetse na serivise dutanga.

Ibikorwa remezo nk'amashuri nibyo bibasha gutuma tugera ku burezi bufite ireme twifuza buri munsi. Iyo abana bize neza nta bucucike, bituma bamenya amasomo babigisha, maze umusaruro ukagerwaho nta nkomyi.

Kugira ngo hatangwe uburezi bufite ireme bugomba kugendana no kugira ibikoresho by'ingenzi mu burezi nk'ingwa zo kwandika ku kibaho, ibitabo abana bigiramo, intebe, amashuri ahagije ndetse n'ibindi.

Gahunda yo kugaburira abana ku ishuri, yaba mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, iri mu ngamba zashyizweho kugira ngo tugere ku burezi bufite ireme. Ikigaragara ni uko iyi gahunda yatanze umusaruro, kubera ko umubare w'abana bava mu ishuri waragabanutse kuva aho ishyiriweho.

Icyumba cy'ishuri cyujuje ibisabwa, kigomba kuba kirimo intebe abana bicaramo, ameza abana bandikiraho, ikibaho bandikiraho, ibyo byose ni byo bituma tugera ku burezi bufite ireme twifuza buri munsi.

Umunyeshuri ku ishuri agomba guhabwa uburenganzira bwinshi, muri bwo harimo n'ubwo gukina kubera ko umunyeshuri wahaye uburenganzira bwo gukina, yumva amasomo neza kubera ko aba yabashije kuruhuka mu mutwe bityo agatsinda amasomo neza.

Amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko afasha abana kuzamuka bafite indangagaciro, bakazamuka bafite ubwenge buzabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bagateza imbere ndetse n'imiryango yabo.

Kugira ngo uburezi budaheza kandi bufite ireme bugerweho, ni na ngombwa kuvugurura inyubako zacu zijyanye n'uburezi, yaba ibyumba by'amashuri abana bigiramo bikajyanishwa n'igihe, kugira ngo tubone uko dukoresha ikoranabuhanga mu burezi maze tugere ku rwego rushimishije.

Gahunda yo kugaburira abana ku ishuri by'umwihariko mu mashuri abanza, ni gahunda nziza ifasha umwana kwiga neza amasomo ye, kubera ko aba atekanye, atishwe n'inzara. Ibyo rero bifasha abanyeshuri kuzamura ubumenyi ndetse bigafasha na mwarimu umwigisha kubera ko abona umusaruro ukwiye.

Umwana agomba guhabwa uburenganzira bwe bwose, by'umwihariko bwo gukina kubera ko nibyo bimufasha kumva aruhutse mu mutwe, maze amasomo yiga ku ishuri akarushaho kuyumva kandi akazamugirira akamaro mu buzima bwe bwa buri munsi.

Buri cyumba cy'ishuri kigomba kugira imfashanyigisho zitandukanye, zigizwe n'ibishushanyo ndetse n'ibindi kugira ngo bikangure ubwonko bw'umwana yumve amasomo yigishwa bitamugoye, bityo bizamugirire umumaro mu gihe kizaza.

Buri cyumba cy'ishuri kigomba kugira ingengabihe igaragaza amasomo yigwa buri munsi, ibi bifasha abarezi ndetse n'abanyeshuri kugendera ku gihe no gukorera kuri gahunda, bityo bakabasha kurangiza amasomo yabo uko yateganijwe.

Menya gufata ubutaka bwacu neza kubera ko budutunga iminsi yose, aya mashashi ndetse n'iyindi myanda yose itabora nka pulasitike tukabirunda hamwe bigatwikwa cyangwa se bikajya mu kimoteri cyabugenewe, aho kugira ngo bibe binyanyagiye mu murima yacu.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho by'ibanze bikenewe nk'intebe, utubati, ikibaho cyo kwandikiraho, ni byo bituma umunyeshuri ahabwa uburezi bufite ireme, buzamufasha kandi bukamuherekeza mu buzima bwe bw'ishuri n'ubuzima bw'imibanire myiza na bagenzi be.

Uburezi ni inkingi y'iterambere kuri bose. Abana batoya, yaba abari mu nshuke ndetse no mu mashuri abanza bagomba kwitabwaho, bagahabwa uburere bukwiye kugira ngo bazakure bavamo abagore n'abagabo twifuza mu muryango mugari nyarwanda.

Burya ngo isuku ni isoko y'ubuzima si ngombwa ngo umuntu usobanutse agende anaga imyanda aho abonye hose kandi hari ibikoresho byabugenewe byo kujugunyamo imyanda, ni ngombwa rero kubyitaho imyanda ikajugunywa aho igomba kujya kugira ngo ikusanwe, itwikwe cyangwa se imenwe ahabugenewe.

Uburezi ni inkingi y'iterambere ndetse n'imibereho myiza, ni ngombwa ko abana batoya bajyanwa mu ishuri, yaba ishuri ry'incuke ndetse no mu mashuri abanza, bagakomeza kwiga bagasoza amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza, ibyo rero bibafasha kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi bagateza imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange.

Uburezi bufite ireme ntibwagerwaho, tutitabiriye gukoresha imfashanyigisho. Kubera ko imfashanyigisho ari zo zikangura ubwenge bw'umwana, akabasha kumva neza ibyo bamwigisha, mu buzima bwe bwa buri munsi bw'ishuri.

Ni ngombwa ko abana batoya cyane cyane abanyeshuri biga mu mashuri abanza batozwa kare gukorera mu matsinda, ibi bibafasha no mu buzima busanzwe gukorera hamwe kubera ko gukorera hamwe ari byo bitanga umusaruro, kuruta uko umuntu yakora ku giti cye.

Guha abana ifunguro igihe bari ku ishuri, ni ingenzi cyane kubera ko bibafasha mu myigire yabo ya buri munsi, bikabafasha kwiga neza no kwita ku masomo yabo kubera ko baba bakomeye nta nzara bafite kandi bikabafasha kwiga bashikamye.

Icyumba cy'ishuri cyujuje ibisabwa nk'intebe zo kwicaraho, ameza, ibitabo, by'umwiharikobaho cyo kwandikiraho, ni imwe mu ngamba zo guteza imbere uburezi buhamye kubera ko bifasha umwana kwiga atekanye bityo umusaruro tumwitezeho ukaboneka.

Si byiza kujugunya imyanda aho tubonyeye hose kubera ko byangiza ibidukikije harimo n'ubutaka, cyane cyane imyanda itabora nk'amashashi, palasitike, ni bibi cyane kubera ko byangiza ubutaka bwacu ntibubashe kuduha umusaruro ukwiye.

Uburenganzira bwo gukina ni bumwe mu burenganzira umunyeshuri akeneye kubera ko gukina bituma umubiri we ukora neza, imitsi ye ikarambuka, amagufwa ye agakomera akabasha no kuruhuka mu mutwe bityo akabasha kwiga neza bitamugoye.

Amashuri n'imyigire muri rusange ni ikimenyetso cy'ubukire bw'ejo hazaza. Kubera ko igihugu gifite abaturage benshi bajijutse kiba gifite amahirwe yo kuzatera imbere bidasubirwaho. Umuturage ujijutse niwe ubasha kureba imbere akareba ejo hazaza icyo hamuteganyirije.

Imfashanyigisho zigizwe n'ibikoresho ndetse n'ibishushanyo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi iyo turi ku ishuri. Umwana wigishijwe hakoreshejwe imfashanyigisho zitandukanye bikangura ubwenge bwe akabasha kumva ibyo yigishwa kandi bitamuvunnye, bityo akabyumva kandi bikamuguma mu mutwe.

Isomero ni ingenzi cyane mu mibereho yacu nk'abantu kubera ko adufasha kurwanya ubujiji no kwiyungura ubumenyi mu bikorwa bitandukanye. Cyane cyane abanyeshuri ba kaminuza barayifashisha, bakora ubushakashatsi ku masomo yabo bwite.

Burya amashuri ni inkingi y'iterambere mu buzima bwa buri munsi, umwana wize neza yiteza imbere agateza imbere umuryango we, agateza imbere n'igihugu, ni ngombwa rero gutanga uburezi bufite ireme, kugira ngo tugere ku iterambere twifuza.

Uburezi ni inkingi y'iterambere ndetse n'imibereho myiza muri rusange kubera ko umuturage wize neza arwanya ubujiji, akaba ashobora kubyaza umusaruro amahirwe ahari mu kwiteza imbere, agateza imbere umuryango we ndetse n'Igihugu muri rusange.

Urubyiruko rwacu rugomba gutozwa gukunda ishuri kubera ko uburezi bufite ireme ari inkingi y'iterambere ndetse n'umusingi w'banire myiza mu bantu, umuturage wize akajijuka abasha kwiteza imbere, agateza imbere umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange.

Uburezi bufite ireme ni isoko y'imibanire myiza ndetse n'iterambere mu gihugu icyo ari cyo cyose, iyo umwana yize neza agahabwa iby'ibanze akeneyeye mu burezi avamo umuturage ujijutse kandi ubereye igihugu n'umuryango mugari muri rusange.

Ibikorwa remezo bitandukanye nk'imihanda byoroshya ubuhahirane hagati y'uduce n'utundi, ni ngombwa rero kubisigasira no kubibungabunga igihe byagiritse tukabisana, kugira ngo bigumye byoshya ubuhahirane, iterambere hagati y'uturere n'utundi, kuko rigerwaho nta nkomyi.

Uburezi ni umusingi ukomeye mu mibanire myiza n'abantu ndetse n'iterambere mu gihugu muri rusange kubera ko umunyeshuri wajyanywe ku ishuri, akiga neza aba ategura ubuzima bwe bw'ejo hazaza atari we gusa ahubwo n'umuryango we n'igihugu muri rusange.

Mu rugendo rwo guteza imbere uburezi ndetse no kugera ku burezi bufite ireme ni ngombwa kwibuka ko mwarimu ari inkingi ya mwamba, mwarimu ni uwo kwitabwaho agahabwa byose akeneye kugira ngo ibyo twifuza mu burezi bwacu tubigereho nta nkomyi.

Mu rwego rwo guteza imbere uburezi ndetse no kugera ku ntego z'uburezi bufite ireme ni ngombwa guha agaciro mwarimu, agahora agenerwa amahugurwa amufasha kwiyungura ubumenyi butandukanye mu kazi akora. Ibyo nibikurikizwa nta kabuza uburezi bufite ireme twifuza buzagerwaho.

Icyumba cy'ishuri cyujuje ibyangombwa by'ingenzi nk'intebe, ibitabo, ikibaho cyo kwandikaho, ni ahantu heza umwana yigira akabona ubumenyi bukwiye, bityo bikamufasha gutegura ejo he hazaza, yaba mu buzima bw'ishuri ndetse no mu buzima busanzwe.

Amasomero ni kimwe mu bintu by'ingenzi bidakwiye kubura ku mashuri iwacu kubera ko abanyeshuri bakeneye gusoma ibitabo, bakora ubushakashatsi ku masomo biga, ibyo bikabafasha cyane cyane mu masomo yabo, bityo bagategura ejo hazaza habo, yaba mu buzima bw'ishuri ndetse n'ubwo hanze hano.

Nyuma y'amasomo bahabwa mu ishuri, harimo Imibare, ubumenyi bw'Isi, ubumenya muntu indimi zitandukanye nk'Icyongereza, Igifaransa n'Igiswayire, abanyeshuri bakwiye kongera guhabwa ubumenyi rusange mu mibanire myiza y'abantu ndetse no kumenya indangagaciro na kirazira by'Abanyarwanda, nta handi babyigira uretse guhurira hamwe bakaganira n'abakuru.

Amashuri ni ingenzi mu buzima bwite bw'umuntu, mu buzima bw'umuryango mugari ndetse n'igihugu muri rusange kubera ko umuturage ujijutse, ni we ubasha kureba imbere akareba ikerekezo akagiha n'ubuzima bwe.

Kugira amasomero ahagije arimo ibitabo by'ingenzi dukenera mu buzima bwa buri munsi mu burezi, ni ingamba yadufasha kugera ku burezi bubyara umusaruro, kubera ko abanyeshuri babona uko bakora ubushakashatsi mu masomo biga bakuye mu bitabo byanditswe n'abahanga.

Buri cyumba cy'ishuri kigomba kugira ibikoresho by'ibanze birimo intebe, ameza, ikibaho cyo kwandikaho, ikibaho cyo gushyiraho isakazashusho, ingwa ndetse n'ibindi byose bifasha umunyeshuri ndetse na mwarimu kugira ngo imyigire n'imyigishirize igende neza.

Igitabo ni kimwe mu gikoresho k'ingenzi kidakwiye kubura mu buzima bwa buri munsi bw'umunyeshuri kubera ko niho havamo ubumenyi, agafashwa na mwarimu kubusobanukirwa, iyo munyeshuri abuze igitabo, nta handi yakwifashisha yabukura hizewe.

Ni ngombwa ko abanyeshuri bo mu byiciro bitandukanye batozwa umuco w'amahoro, bagatozwa uturango tw'umuco gakondo w'Abanyarwanda, bakamenya kubyina imbyino za kinyarwanda, bakamenya kuririmba indirimbo za kinyarwanda, bakamenya umuco wabo muri rusange kubera ko wuje ibyiza byinshi.

Uretse ubumenyi abanyeshuri bakura mu masomo biga, abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bagomba guhabwa n'ibindi biganiro byihariye, bigamije kubajijura ku ngingo zitandukanye, urugero bakwiye guhabwa ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, uburere mboneragihugu ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni ngombwa kugira amasomero menshi kandi arimo ibitabo bihagije, kubera ko bifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi ku masomo biga bityo bagasobanukirwa n'ibyo biga, maze bigakunda bikazabagirira umumaro mu gihe cyabo kizaza, yaba urugendo rw'amashuri ndetse n'urugendo rusange rwo muri ubu buzima.

Icyumba cyiza cyo kwigiramo. Ni icyupa cyujuje ibyangombwa bisabwa. Yaba intebe zo kwicaraho, ameza, ibitabo, ingwa zo kwandikisha, ikibaho cyo kwandikaho n'ingwa, ndetse n'ikibazo cyo gushyiraho asakaza amashusho. Ibyo byose, bigize icyumba kigezweho gikwiye kwigirwamo, kandi ubumenyi bugatambuka nta nkomyi.

Ni ngombwa ko abanyeshuri batozwa kubungabunga ibikorwa remezo by'ishuri nk'amashuri, amasomero ndetse n'ibindi ariko kandi bakabungabunga ibikoresho by'ishuri nk'intebe bicaraho, ameza, ibitabo n'ibindi.

Guteza uburezi imbere, kuzamura ireme ry'uburezi, ni ngombwa guha umunyeshuri ijambo na we akagira uruhare mu bimukorerwa, kubera ko ni bwo aziga yisanzuye, akumva na we ko yahawe agaciro kugira ngo atange ibitekerezo bye.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ni amashuri y'ingenzi muri iki gihe turimo, aha niho umunyeshuri asohoka mu ishuri afite ubushobozi bwo guhanga akazi aho gutega amaboko agashaka, ni ngombwa rero gushishikarira kwiga amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo twiteze imbere tutazariye.

Kugira ngo tugera ku burezi bufite ireme, ni ngombwa ko tuba dufite ibikorwaremezo bihagije nk'amashuri. Ayo mashuri na yo agomba kuba arimo iby'ibanze abana bakeneye kugira ngo bige neza. Ibyo twavugamo nk'intebe zo kwicaraho, ameza, ibibaho byo kwandikaho, ingwa zo gukoresha, bityo tukagira uburezi bufatika koko bushobora guha umwana iby'ibanze akeneye kugira ngo atere imbere.

Kugira abafatanyabikorwa mu burezi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima kubera ko bitwongerera ibyumba by'amashuri twigiramo, bikatwongerera ibikoresho by'ibanze twifashisha bityo uburezi nyabwo twifuza tukabugeraho nta nkomyi.

Mu byo abanyeshuri bakwiye gutozwa bakiri bato, bakwiye gutozwa cyane cyane n'umuco gakondo w'abanyarwanda, bakamenya imbyino za kinyarwanda, bakamenya indirimbo za kinyarwanda bityo, bagakura bazi agaciro k'umuco wabo.

Urugendo rwo guteza imbere uburere, ubupfura, imyigire, imyigishirize ndetse n'indangagaciro zikwiye mu banyarwanda, mwarimu ari ku isonga, ni yo mpamvu agomba kwitabwaho agahabwa byose akenera kugira ngo tugire umuryango mugari utekanye kandi wuje indangagaciro.

Niba twifuza guteza uburezi bwacu imbere mu buryo burambye, ni ngombwa kubaka ibikorwa remezo bihagije n'ibyumba by'amashuri kugira ngo tugabanye ubucucike mu mashuri, bityo tugere ku ntego twiyemeza kugeraho mu burezi.

Icyumba cy'ishuri gifite ibikoresho by'ibanze mu burezi nk'intebe, ibitabo byo kwigiraho, ameza, ibibaho byo kwandikaho, ibibaho by'insakayamashusho, ni inkingi ikomeye mu gutanga uburezi bufite ireme.

Kaminuza y'u Rwanda iri mu za mbere zihambaye, zikunzwe, zitanga ubumenyi muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ibyo ibikesha kuba ifite inyubako zihambaye, zirimo inyubako abakozi babo bakoreramo ndetse n'ibyumba by'amashuri bigezweho by'ikoranabuhanga.

Ishuri ririmo ibintu by'ingenzi bikenerwa mu ishuri nk'intebe zo kwicaraho, ameza, ikibaho cyo kwandikaho ndetse n'ikibaho cy'isakazamashusho, ni ibintu by'ingenzi mu cyumba cy'ishuri mu guteza imbere uburezi bufite ireme.

Niba dukeneye iterambere ry'uburezi rirambye, no kugera ku ntego z'uburezi bufite ireme, ni ngombwa gushyira mwarimu ku isonga, agahora agenerwa ibyo akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi, nk'amahugurwa ahoraho agamije kumuhugura ku bikorwa bitandukanye.

Kaminuza y'u Rwanda ni kaminuza igize ku bikorwaremezo, twavugamo nk'amazu arimo ibyumba by'amashuri abanyeshuri bigiramo bigezweho, tukavuga kandi nk'amacumbi acumbikira abanyeshuri biga baba mu kigo, ibyo byose bituma abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda bashaka kwiga mu Rwanda bose.

Ni ngombwa ko inyubako zitandukanye, yaba iza leta ndetse n'iz'abikorera, yaba inyubako tubamo ubuzima bwacu bwa buri munsi, ko zizengurutswa ibiti kugira ngo tubone umwuka mwiza duhumeka, kugira ngo bisukure ikirere cyacu ndetse tuzabone n'umusaruro utandukanye uvuye muri ibyo biti tuba twateye.

Kaminuza y'u Rwanda ni kaminuza ya mbere mu Rwanda itanga ubumenyi n'uburezi bufite ireme, biturutse ku bikorwa remezo ifite nk'ibyuyumba by'amashuri bikoranye ikoranabuhanga, amasomero ahagije n'ibindi byinshi bituma umunyeshuri uhavuye agira uruhare mu iterambere ry'igihugu.

Nk'uko tudahwema kubishishikarizwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, abanyarwanda twese dukwiriye kujyana abana bacu muri ibi bigo by'imyuga n'ubumenyiyingiro, kubera ko ariho bashobora kwihangira umurimo byoroshye. Aha umunyeshuri ahava ahanga umurimo, aho gutega amaboko ajya gusaba akazi.

Abantu bo mu ngeri zose abakuru, abato, urubyiruko, twese dukwiye gushishikarira kwihugura mu ikoranabuhanga, kugira ngo tujyane n'isi tugezemo ikoranabuhanga ni ingenzi ku muntu uwo ari we wese, kugira ngo abashe gukora imirimo itandukanye, kubera ko imirimo myinshi ubungubu isaba ikoranabuhanga.

Kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko ishami rya Huye, ni kaminuza ikize ku bikorwa remezo birimo ibyumba by'amashuri abanyeshuri bigiramo ndetse ninzu z'akataraboneka abanyeshuri biga baba mu kigo bacumbika, ibyo biyigira kaminuza ya mbere mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange.

Icyumba cy'ishuri cyuje iby'ibanze nk'intebe, ameza, ibitabo, ibibaho byo kwandikiraho ndetse n'ibibaho by'isakazamashusho ni nibyo bituma uburezi bugerwaho ku buryo bwuzuye.

Ibidukikije by'umwihariko ibimera bifatwa nk'inshuti y'umuntu cyane, kubera ko ari byo biduha umwuka duhumeka kandi bigasukura ikirere cyacu. Natwe rero dukwiye kubibera inshuti tukabirinda icyabyangiza cyose, maze natwe bikarushaho kuturinda.

Ibikorwa remezo bikomeye mu burezi, ni inkingi ndetse n'umusingi w'iterambere ry'uburezi muri rusange. Amashuri ahagije, ibikoresho bihagije byo gukoresha mu burezi, iyo bikomatanyijwe ni byo bituma tugera ku burezi bufite ireme, duhora turirimba.

Abanyeshuri cyane cyane abiga mu mashuri makuru na za kaminuza ni ngombwa ko bakora ubushakashatsi bwinshi butandukanye kugira ngo barusheho kwiyungura ubumenyi mu byo biga bityo bazabe indashyikirwa ubwo bazaba bagiye mu mirimo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Nk'uko tudahwema kubishishikarizwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda, ni ngombwa ko twitabira aya mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro, kubera ko ni ingenzi mu iterambere ry'umuntu ndetse n'iry'igihugu muri rusange, kubera ko uyasohotsemo adashaka akazi, ahubwo ahanga akazi akagaha n'abandi.

Kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko ishami rya Huye ni kaminuza ya mbere mu Rwanda ifite ibikorwa remezo byiza kandi bikomeye, ibi bigatuma itanga uburezi bufite ireme, bigaragazwa nuko abayirangijemo, baba ari indashyikirwa mu mirimo bakora.

Kugira amasomero ahagije mu bigo by'amashuri yisumbuye ndetse no muri kaminuza ni ingenzi cyane, kubera ko bifasha abanyeshuri mu bushakashatsi bakora ku masomo yabo mu buzima bwa buri munsi, bityo bikabafasha kuyumva neza no kuyashyira mu ngiro bitabagoye.

Ubushakashatsi bwimbitse ku ngingo runaka ndetse n'imikorongiro ni ingenzi ku munyeshuri, kubera ko niho abasha kureba bya bindize mu magambo akabibona noneho abikoresheje amaboko ye, nibwo abisobanukirwa neza maze akaba yize byuzuye koko.

Uburezi buboneye kandi bufite ireme, ni uburezi buha buri wese urubuga rwo gutanga ibitekerezo, yaba abanyeshuri, abarezi ndetse n'abandi bagatanga ibitekerezo ku bikwiye gukosorwa ndetse n'ibikwiye kwitabwaho kugira ngo uburezi burusheho gutera imbere.

Kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko ishami rya Huye, ni kaminuza ifite ibikorwa remezo byinshi bitandukanye. Ibyumba by'amashuri bigezweho, ibibuga bitandukanye, byaba ibibuga by'umupira y'intoki, ndetse n'ibibuga by'umupira w'amaguru. Ibyo byose bifasha abanyeshuri bahiga kuruhuka mu mutwe, ndetse no kwibanda ku masomo yabo, bafite ubuzima bwiza.

Inzu ndangamurage ni ibikorwa remezo by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'imibanire y'abantu muri rusange, kubera ko iyo tuzisura kenshi tumenya uko Abanyarwanda bakera babanaga tukabafatiraho urugero bityo tukabana neza.

Ibyumba byo kuraramo by'umwihariko ibyumba by'abanyeshuri, ni ibyumba bigomba kugirirwa isuku bikitabwaho kubera ko umunyeshuri waryamye neza ari we utanga umusaruro, umunyeshuri agomba kuzirikana ko agomba gukora isuku aho arara bityo bikamufasha kwiga neza ndetse no gutsinda amasomo ye.

Icyumba cyo kuraramo ni icyumba cyihariye, kigomba no kugirirwa isuku ku buryo bwihariye. Isuku mu byo turaramo, isuku mu byo twisasira, isuku mu byo twisegura, isuku mu byo twiyorosa ni ingenzi, kubera ko iyo umuntu yaraye neza, arota neza. Kandi akabasha kubyuka ajya mu kazi nta ngorane z'ubuzima afite.

Icyumba cyo gukoreramo, ni ahantu h'ingenzi tugomba kwitaho mu buzima, tukahagirira isuku, kugira ngo tubashe gutanga umusaruro mu kazi wifuzwa, ni ngombwa kwita ku cyumba cyo gukoreramo kubera ko iyo ukoreye ahantu hatekanye, aribwo ushobora gutanga umusaruro.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu mu Rwanda, ni ikigo gifitiye abanyarwanda benshi akamaro, kubera ko gituma tubona ingufu twifashi z'amashanyarazi mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu gukoresha ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo mudasobwa, telefone ndetse n'ibindi.

Kaminuza y'u Rwanda, ni kaminuza yihariye iri no mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, ibyo ibikesha kuba ikize ku bikorwa remezo nk'amazu, ari yo abanyeshuri bigiramo, ndetse n'ayo abanyeshuri biga baba mu kigo bacumbitsemo, ibyo biyigira kaminuza ya mbere mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Afurika muri rusange.